Capati bazikoze bazishyize ku masahani, bashaka kuzigurisha cyangwa kuzirya bitewe na gahunda bazifitiye.

Umukozi wa Emutiyene aho aba akorera mu kazu atangiramo serivisi zo guha amayinite abakiriya bamuganye ndetse no kubabikiriza amafaranga no kubabikuriza amafaranga ndetse no kuboherereza amafaranga, ku bandi bantu bakanatanga simukadi ku bazishaka, bakanabandikishiriza simukandi ku mazina yabo y'irangamuntu.

Ibicuruzwa bicururizwa ku mbuga nkoranyambaga. Aho umuntu yagishima akakishyura, bakakimuzanira byoroshye cyane. Bidatwaye umwanya munini kandi bidatwaye igihe. Ku buryo umuntu ajya kukirebera bakakimuzanira aho atuye hose, ntayandi mafaranga bamuciye.

Uru ni urubuga rugurishiriza ibintu byabo bicishije ku mbuga nkoranyambaga aho bagaragaza ibyo bafite noneho wakishimira ukabavugisha ku bundi busobanuro bwimbitse.